Ibase iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'izindi ziri mu yandi y'ubururu, icyatsi, aho zirambitse ahantu hamwe, zikaba zigiye zirimo umuceri, bigaragara ko bari kuwucuruza, aho mo imbere harimo agakombe bari kuwurengesha.

Abahinzi bahuriye hamwe ku ifumbire aho bari kugenda bariyora barishyira mu mufuka kugira ngo iryo fumbire barigemure ku isoko, maze barigurishe babone amafaranga menshi cyane yabateza imbere.

Igitabo cyandikeho amabwiriza agiye atandukanye, aho kiri mu mabara y'ubururu n'umweru. Kikaba cyanditseho amagambo y'umukara ari mu rurimi rw'Icyongereza n'andi y'ubururu.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imifuka irimo ibirayi, bigaragara ko bamaze gusarura ibi birarayi, none bakaba bitegura kubijyana ku isoko kubigurisha, ngo barebe ko byabaha umusaruro mu buryo butandukanye.

Imifuka myinshi ipakiyemo impugure z'ibigori, bakaba bayisaruye bayirambika hejuru hariya kugira ngo barebe ko imodoka yaza kuyipakira, hino ku mashitingi hari amahundo y'ibigori menshi cyane.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo insina zikiri ntoya, zitari zatangira kwera urutoki. Hepfo gatoya hateyemo ibigori. Bigaragara ko ari mu gishanga. Umuntu uhinze ibigori bimuteza imbere.

Ishyamba ririmo amoko y'ibiti agiye atandukanye, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga agasezera ku bukene.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ingemwe z'ibinyomoro, aho ibi binyomoro ari ingirakamaro cyane kubera ko iyo umuntu abihinze akabyitaho, bimuha umusaruro.

Umugore uri kugenda mu busitani buteyemo ingemwe zigiye zitandukanye buzwi na pipiniyeri, akaba ari kugenda abusura ngo arebe ko imbuto yahinze zimeze neza maze yiteze imbere.

Isoko ririmo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho ibi bicuruzwa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubikeneye aza kubihahira muri iri soko, maze bakabimugurisha ku giciro cyiza.

Umurima uhinzemo amashu aho harimo umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu ari kuyuhira, hakaba hari n'umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ijipo y'umukara akaba ari kuza amusanga ngo arebe uko abikora.

Ubuhinzi bw'imbuto bumaze gutera imbere cyane, aho hari umugabo wambaye isengeri y'umweru, n'ipantaro ya kaki na bote z'umukara. Afite umupira, ari mu murima we mu gishanga, aho ari kugenda yuhira ibihingwa bye yateye.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu, akaba ari kugenda afite indobo, ari kugenda ayuhira kugira ngo arebe ko yamera neza hanyuma akazamuha umusaruro utubutse maze agatera imbere.

Ubutaka bwiza cyane buteyemo imyumbati, aho iyo myumbati ikiri mito itari yakura neza ku buryo yatanga umusaruro ku muhinzi wayo, ikaba ari imyumbati myiza cyane kandi ishimishije ku muhinzi wayo.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bihagije kugira ngo barebe ko zazabateza imbere, bagakirigita ifaranga.

Ikiraro bororeramo inka, aho harimo inka ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, zikaba ziteraniye hamwe aho aborozi bazo bazorora mu buryo bwa kijyambere kugira ngo barebe ko zazabaha umusaruro.

Inka nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho ziri mu mabara agiye atandukanye, umutuku, umweru, ndetse n'umukara, zikaba zigaragara ko ari nziza cyane, kandi zorowe mu buryo bugezweho bwa kijyambere.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'urusenda, aho urwo rusenda ruteye mu buryo bugezweho rukaba rusasiye, ubuhinzi bw'urusenda na bwo rero bumaze gutera imbere aho rusigaye ruhingwa n'abantu batari bake.

Pavuro ni zimwe mu mbuto nziza cyane, aho umuntu wazihinze zibasha kumuha umusaruro uhagije maze akiteza imbere agakirigita ku ifaranga, agasezera ubukene, akaba umukungu.

Ubuhinzi bw'urusenda bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga urusenda barabigize umwuga bakarwitaho hanyuma rwamara kwera bakarujyana ku isoko.

Umugabo wambaye isarubeti nziza cyane igezweho, akaba yambaye na bote z'umukara zisa n'izanduye n'ingofero ayirebesheje inyuma, ahagaze imbere y'ikiraro cy'inka, aho ari kuvura iyo nka kubera ko irwaye.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyoni, aho harimo inyoni z'umuhondo ziba zifite isunzu ry'umutuku, ziba zizi kuguruka cyane, aho zikunze guhagarara ku matabi y'ibiti.

Hariho amoko agiye atandukanye y'inyoni, aho hari inyoni ziba ziri mu mabara y'umuhondo, ubururu, umutuku n'icyatsi n'umukara, zikunze kwihagararira ku ndabyo kugira ngo zijye zirya udusimba turi guhaza.